Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hakaba ahandikishijweho amagambo n'ibara ry'umweru, hakaba hariho n'imibare yandikishije mu ibara ry'umweru hakaba hariho akabara gatoya ko mu ibara ry'ubururu, hakaba n'akandi kabara gato kari mu iba ry'umutuku hakaba hakikijwe ibiti by'icyatsi kibisi.

Kiri mwi bara ry'umweru hakaba hariho ni ibara ry'umutuku iryo bara ry'umutuku hakaba handikishijeho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza hakaba hagiye hariho n'imibare hakaba hari n'akabara hagati yayo mabara y'umutuku kandikishijwe mu ibara ry'umukara rurimi rw'icyongereza.

Iyi n'inzu harimo akabati gateretsemo amazi, gatetsemo amverope, hejuru hari ibyantsi bibiri bikozwe mu buryo bwa kinyarwanda, binywebwamo amata, ku ruhande hari icyapa gishushanyijeho inka kiririmo ibara ry'umukara n'ibara ry'umweru.

Iyi ni inyubako hakaba hamanitseho icyapa kirimo ibara ry'ubururu rwandikishishwaho amagambo ku rurimi rw'icyongereza rwa rwandikishijwe mu ibara ry'umweru hakaba ariho n'imibare yandikishijwe mu'i ibara ry'umweru hakaha hagaragara n'inzugi zisize irangi ry'ubururu.

Iyi ni ifoto iriho abantu babiri umugabo akaba yambaye ikote ry'ubururu, ishati imbere y'umweru n'akandi kantu mu ijosi. Hanyuma umugore akaba yambaye ikanzu yenda kuba icyatsi kerurutse cyangwa se mu umweru. Hanyuma akaba yambaye amaherena maremare akaba anafite umusatsi w'umukara. Hanyuma hejuru hakaba handikishijeho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza. N'imbere yaho ku ruhande hakaba handishijeho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza. Nyuma ya hakaba hari inzu nini.

Iyi ni nyubako ikaba iri mu mabara atandukanye ibara ry'mweru n'ibara ry'umuhondo, ikaba amadirishya yayo isize amabara y'ubururu, hejuru hakaba hariho akapa gato k'umutuku kandikishijweho amagambo y'umweru ariko atagaragara neza, hakaba hari imbere icyapa kiri mu ibara ry'umweru handikishijweho n'aho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Iri ni isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, hakaba hacururizwamo imbuto, imyenda, inkweto, ibikapu, amabase, hakaba harimo umuntu uhagaze wifashe mu mugongo yambaye udukweto dufunguye turi mu ibara ry'ubururu.

Aha ni mu ruganiriro harimo intebe z'ubururu, ameza ari mu ibara ry'umukara, umukeka uri mu ibara ry'umweru n'umukara, hakaba hasi hakurungishije ibara ry'umukara, hakaba hari amarido y'umweru n'andi hirya yenda kuba ikigina, hejuru hakaba hari parafo iri mu ibara ryerurutse ry'umweru cyangwag se umuhondo, hakaba hariho n'imitako, inyuma hakaba hari intebe ziri mu ibara ry'umutuku.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi bucuruza amatara yo mu nzu, hakaba harimo umuntu umwe, imbere hakaba hari mudasobwa iri muibara ry'umukara, hejuru hakaba hari ibipirizo biri mu mabara atatu atandukanye ubururu, umutuku n'umweru, iruhande rw'uwo muntu hakaba hari intebe y'umweru.

Iri ni isoko ricururizwamo ibikoresho byo mu nzu, hakaba hahagazemo abantu babiri umugabo n'umugore, uwo mugabo akaba yambaye umupira w'amaboko magufiya w'umukara n'ipantaro y'umukara, umugore akaba yambaye ikanzu irimo ibara ry'umutuku.

Iri ni isoko bacururizamo imbuto, harimo imbuto z'umuhondo, imbuto z'icyatsi, harimo ibitunguru, amaronji, amatunda, hari umu mama wambaye ikanzu ifitemo utubara tw'umweru, n'utundi tw'umutuku, yambaye akantu mu ijosi, hari undi imbere ye, wambaye umupira w'umukara, akaba afite imbuto ebyiri mu ntoki, uwambaye ikanzu y'umutuku afite umusatsi wa naturaire.

Hari ibiro bikorerwamo ikintu runaka igikorwa runaka. Uruhande rw'ibumoso hari abagabo babiri bambaye amashati maremare, umwe akaba ahahagaze undi akaba yicaye. Inyuma y'abo bagabo hakaba hari abandi bagabo benshi ariko bitagaragara neza. Ku ruhande rw'iburyo akaba ari umuma ufite urupapuro mu ntoki akaba yambakana mu ijosirikari rimwe ibara ry'ubururu akaba yambaye n'umupira w'ibara ry'umweru ariko umupira hakaba hariho utubara tw'umuhondo n'utundi tubara tw'ubururu iruhande rw'uwo mugore iburyo bwe hari abantu ariko ntiba.

Iyi ni inyubako hejuru hari amagambo yandicisha ibara ry'umuhondo iruhande rw'iburyo hari umugabo wambaye umupira w'umukara n'ikabutura. Kuruhande rw'ibumoso hari umukobwa ufite umusatsi mwinshi w'umukara ishati iciye amaboko n'ipantaro yi'icyatsi cyerurutse n'inkweto z'umweru. Inyuma hari uwambaye ipanta y'umukara ishati yumweru ya maboko magufiya.